Abantu benshi cyane bafite impu zitandukanye harimo abazungu n'abirabura, bamwe bicaye ku ntebe z'imituku abandi bahagaze bari gufata ifoto, inyuma yabo hari icyapa cy'amabara y'ubururu.

Abantu bane baje kwa muganga, harimo; abagore babiri, umuhungu umwe n'umukobwa umwe, umukobwa yambaye agakote k'umutuku, umuhungu yambaye agakote k'icyatsi, umumama umwe yambaye ishati y'umukara, undi mu mama akenyeye igitenge.

Abajyanama b'ubuzima bari mu nama bambaye imyenda y'abajyanama b'ubuzima isa ubururu, bafite n'ibitabo n'amakayi bari mu nama bari kubahugura.

Umwana wicaye asutamye, yambaye umwenda ukoze mu bitenge, ari gukaraba amazi aturuka mu ivomero rusange, ari guseka, hirya hateretse injerekani isa ubururu ndetse n'indi isa.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bagiye bambaye imyenda itandukanye, bicaye bari kureba imbere, hari umugore uhagaze wambaye ikanzu isa umweru n'agakote gasa ubururu, ari kubabwira ibintu bitandukanye.

Abantu batandatu barimo umwana umwe wikoreye ijerekani n'ingata y'urukoma, ijerekani ipfundikije umupfundikizo w'umukanana w'insina, harimo umuzungu umwe n'abagabo batatu bambaye imyenda igiye itandukana.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda y'abantu b'abajyanama b'ubuzima, ari umugabo uhagaze hagati wambaye karuvati n'ikositimu y'umukara n'amarinete.

Icyumba cyiza cyane, kirimo intebe nziza zifite imifariso isa ubururu, ndetse n'ibyuma bisa umweru iteretseho, iri ahantu hari amabara y'imirongo y'umutuku n'ubururu.

Abantu bari mu nama, bicaye ku mirongo ibiri, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, bambaye imyenda itandukanye, hagati ku meza hateretse uturabo tw'icyatsi twinshi.

Umwana uri gukaraba kuri robine bakarabiraho, amazi aturuka mu ndobo isa umweru, ifite umupfundikizo n'umukondo bisa ubururu, umwana wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'ivu.

Umwana wambaye ipantaro yayihinnye isa n'umutuku, yambaye agapira gasa umweru, imbere ye hari amajerekani atatu n'indi jerekani iri ku ivomero, ari kuvoma amazi areba ku ruhande ari guseka.

Ikigega kinini cyane ubona ko gicukuye kijya hasi mu butaka kiriho ikiraro kijyanamo abantu hagati, kizengurutse kiri mu ishusho y'uruziga ndetse n'agapfundikizo kacyo karimo hagati, kari mu ishusho y'uruziga.

Abana babiri umwe wambaye ipantaro n'ishati bisa, bifite amabara y'icyatsi n'umweru, hari n'undi wicaye ruguru w'umukobwa wambaye agapira k'umutuku, bari ku ivomero bari gukaraba amazi.

Abantu benshi batandukanye harimo umugabo uri hagati wambaye imyenda yumweru hari nundi mugabo wicaye ku ntebe wambaye ishati irimo uturongo n'ipantaro isa na kaki ari gutera umwana wambaye akenda k'ubururu urushinge ateruwe numugore wambaye imyenda yaba isilamu y'igikara.

Umumama ukenyeye igitenge ufite akana kamuhagaze iruhande n'abandi bana bane bari hirya bari ku ivomero rivoma amazi riyakura mu butaka, bafite injerekani imwe ndetse n'amabase n'indobo nyinshi.

Abantu batanu barimo abakobwa batatu ndetse n'abasore babiri bahagaze imbere y'icyapa kiri ishusho ya masitakadi, bambaye imipira isa ubururu ndetse n'ingofero isa imyeru.

Abantu benshi cyane bari ku murongo bahagaze imbere y'itente, bambaye imyambaro isa n'ubururu bwikirere, bafite n'utuntu tugiye dutandukanye, hari undi wambaye umweru n'umukara wicaye ku ntebe ya parasitiki y'umweru.

Abana bane, umwe yambaye umupira usa umutuku n'inkweto zizwi nka bote, undi ari kuvoma amazi ayakura hasi mu butaka, n'abandi babiri bahagaze ku ruhande, harimo uwambaye umupira w'umukara n'uwambaye ishati y'ubururu.

Abajyanama b'ubuzima benshi cyane bahagaze, hagati yabo harimo umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati isa umweru na karuvati y'umukara n'umweru, hari n'undi muganga wambaye itaburiya y'abaganga.

Abagore batatu bari kumwe n'umugore wa kane w'umuganga wambaye umwenda w'abaganga, ari gupima umuvuduko w'amaraso ku kuboko k'umugore wambaye ishati y'umutuku, hari uwifubitse agasharupe k'umuhondo hari n'undi hirya, uteza agatambaro k'umutuku.

Inzu isa ubururu isakaje amabati y'umweru n'umutuku, imbere yaho hahagaze abantu benshi bari ku murongo, harimo abambaye amataburiya, hejuru ku nzu handitse gira ubuzima ndetse abantu bari kwifotoza.

Ibikoresho birimo amamashini manini cyane ndetse n'utugega tubamo umwuka abarwayi bo kwa muganga bahumeka, dusa ubururu, dufite akandi kantu k'ubururu bwijimye kafashe mo hagati, tugiye ducometse ku mamashini menshi.

Abantu bari ahantu kwa muganga, umuntu umwe ahagaze ari gusobanurira abandi bicaye ruguru, hari uwambaye imyenda isa n'iroza, ari umumama uteruye umwana uri mu muryango wa ruguru.

Ababyeyi batatu, umwe uhagaze n'abandi babiri bicaye, umwe ahetse umwana undi amuteruye, uhagaze ateruye umwana, wambaye agapira gasa ubururu n'umuganga ubahagaze iruhande wambaye amarinete n'itaburiya isa ubururu.

Abayobozi bo mu Rwanda bari mu nama, umuyobozi mukuru yicaye iruhande rw'idarapo ry'u Rwanda rifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, harimo umuntu w'umuzungu ndetse n'abandi b'abirabura.

Abaganga babiri n'umumama wicaye wambaye igitenge cy'amabara menshi n'akana karwaye, karyamye ku gitanda, harimo umuganga w'umugabo n'uw'umugore bari ku kavura.

Icyumba kinini cyane kirimo amamashini menshi asa ubururu ndetse n'amatiyo menshi asa icyatsi n'utundi twuma dusa umuhondo hari umugabo uri kugendamo hagati mu ibara ry'umukara.

Icyapa yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'uturongo tubiri , kamwe agatambitse kandi kamanuka, kari mu ruhande rw'iburyo ,n'udutangararo tubiri turi mu bara ry'umwe, n'ifoto iri mu ruziga birimo umugore usukishije menshi wambaye agapira ka move.

Abantu batatu barimo umwana muto uruhinja, n'umumama wambaye igitenge cy'amabara menshi umuteruye, ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'abaganga ari gushyira umuti mu kanwa k'umwana.

Abantu batatu abaganga babiri n'umurwayi umwe wambaye agapira k'umuhondo n'abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero z'icyatsi, bari gupima umuvuduko w'amaraso.

Abantu batanu, barimo umusaza wambaye ingofero n'agapfukamunwa uri hirya, abagabo babiri bahagaze n'umumama umwe n'umuganga wicaye, bose bambaye udupfukamuwa, imbere hateretse mudasobwa ku meza hafite igitambaro cy'umweru.

Abajyanama b'ubuzima benshi cyane, bambaye imyenda isa ubururu, hagati yabo hahagaze umugabo muremure, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'abandi bantu benshi babakikije.

Ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda rigaragaza uburyo tugomba kwirinda ndetse no kurwana kanseri mu Rwanda. Ifoto y'umugabo wambaye kositimu ufite karuvati isa ubururu ndetse n'ishati y'umweru.

Umuzungu w'umugore ufite mikoro mu ntoki, uhagaze imbere y'icyapa cya yunisefu, wambaye umupira usa na kacyi, wambaye isaha ku kuboko n'agashanete ku kuboko.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki, ifite agasirenge mu ntoki, ari kugatera umuntu wazamuye umwenda we ku kuboko, yambaye umwenda urimo amabara y'umweru n'imikara.

Abantu benshi cyane buzuye imbere y'inzu nini cyane, iriho icyapa hashinze idarapo imbere yaho, hari n'itente rinini riri imbere yaho, hari n'umugabo uri kuri telefone.

Abantu batatu bambaye ibintu bibapfutse mu maso ndetse bambaye n'ibishati by'umuhondo bifatanye n'ibipantaro, bakenyeye n'ibindi bisa umweru, bari ahantu hazitije utuntu dusa umutuku.

Abantu benshi cyane bari mu nama, hari abandi batandatu bicaye imbere barimo abagabo batanu n'umugore, bari mu nama bari kubwira abantu bicaye bagize inama.

Abantu benshi cyane bari ku muhanda ba bana bambaye iforume, n'umwana uri ku ivomero afite akavido karindwi, n'undi uri hejuru ari gukora mu mazi ari kuvoma kuko ari isoko isanzwe.

Ababyeyi benshi ubona ko baje kwa muganga, bateruye abana baje gukingiza, bafite n'amafishi yo gukingiza, benshi muri bo bateze ibitambaro, abandi bateruye abana ku bibero.

Abantu benshi bari ku murongo imbere yabo hahagaze umusaza ushaje ufite uruhara yambaye amarinete n'ikote ry'umukara, abantu bamuri imbere bambaye amataburiya asa ubururu bwerurutse busa n'ubw'ikirere.

Abana benshi bicaye hasi mu byatsi, bari kunywa amata, hari umumama uri kubanywesha n'abandi bantu babahagaze iruhande harimo n'umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cy'u Rwanda, abana bambaye udupira tw'umuhondo.

Abantu b'abagore n'abakobwa baje ku ivomero rusange, hari injerekani zigiye zifite amashusho atandukanye, bari kuvoma ku ivomero rusange.

Abantu bicaye ku meza barebana, ameza maremare ateretseho insinga z'amashanyarazi ndetse na kompiyuta zigiye zitandukanye, bamwe bambaye amakositimu abandi bambaye imyenda isanzwe, imbere yabo baporojekise bari kureba ibintu biri guca kuri porojekiteri.

Abantu bane harimo abana bane batoya cyane ndetse n'umugore uri ruguru, bari kuvoma amazi aturuka hasi n'ubutaka. Bari gukurura bafite ubucupa ndetse n'ububido butandukanye.

Umugore ubona ko akuze akenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, afite indobo y'umuhondo mu ntoki irimo amazi, yikoreye n'indobo y'umutuku irimo amazi.

Abana bagiye ku ivomero rizamura amazi riyakura hasi mu butaka, bafite akabido k'akarindwi, akaritiro kamwe. Ndetse n'akabito k'ane, abana bane ubona ko barutana ndetse n'umukobwa mukuru uri kubazamurira amazi.

Ababyeyi benshi bicaye ahantu bari kuvurwa bateruye abana babo bari kugenda babaha amata banabavura, abana bambaye imipira y'imihondo n'ababavura bambaye imipira y'imihondo.

Abantu babiri, harimo umwana wambaye agapira gasa umutuku werurutse, yikoreye ijerekani yanditseho Unicef n'umugabo umuhagaze iruhande wambaye imyenda ya Unicef.

Abantu benshi cyane bari ku murongo, bambaye imyenda igiye itandukanye bigaragara ko bari gufata amafoto, bari ahantu handitse ko ari uburyo bwo gukumira inda ziterwa abangavu.

Abana babiri, umwe mukuru wambaye agasengeri k'umuhondo n'ijipo isa umukara, n'akandi kana gatoya kambaye akenda gasa n'icyatsi kanduye cyane bari kuvoma amazi mu mugezi, umwe afite ijerekani undi afite akavido gato.

Umwana wambaye imyenda idoze mu gitenge y'imituku, ari gukaraba amazi aturuka mu isoko isanzwe, imisatsi ye yayisutse iryamye, ibase ari gukarabiramo irasa umukara.

Abaganga bari kureba muri mudasobwa ishinzwe kureba indwara umurwayi arwaye, bambaye imyenda y'akazi isa n'icyatsi ndetse umwe yambaye agapfukamunwa ateze n'igitambaro kirimo amabara' yumuhondo ndetse n'ubururu.

Abagore batatu, babiri bari kuvoma amazi akurwa hasi mu butaka, azwi nka bori horu, undi ari kudaha amazi bari kuvoma mu ndobo isa icyatsi.

Abantu batandatu bicaye imbere inyuma yabo hari igikuta kiriho icyapa cy'ubururu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, bose bageretse akaguru ku kandi.

Imodoka nini cyane itwara ibintu bitandukanye byo kurya, ndetse n'ibitari ibyo kurya tuzi nka rukururana, iri kugenda muri kaburimbo ifiteho icyapa gishushanyije mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umwana ukiri mutoya ufite imisatsi yasukishije iryamye ku mutwe, ari gukaraba amazi aturuka muri robine isanzwe, yambaye imyenda idodesheje mu bitenge ifitemo amabara y'umutuku n'andi avangavanze menshi.

Ifoto igaragaza abantu benshi cyane, biganjemo abana bambaye imyenda isa umutuku n'ubururu n'umumama ubicaye imbere ufite igitenge kirimo amabara y'imihondo, yambaye n'amarinete.

Abana benshi cyane, bambaye imyenda isa ndetse n'abantu bakuru, imipira bambaye irasa umuhondo, harimo umugabo umwe ubarimo hagati wambaye umupira w'umweru, n'undi uhagaze inyuma wambaye umupira w'umukara ari fotora.

Abantu benshi bicaye bakoze ikiziga, ubona ko bari kwiga, bafite ibitabo, bari kureberamo, buri wese afite agakayi mu ntoki ze.

Umumama ukenyeye igitenge kirimo amabara menshi atandukanye, yambaye agapira kavangavanze amabara n'ingofero y'umukara, yasetse ari gukaraba kuri kandagira ukarabe za kinyarwanda.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze bari kwifotoza, bari kumwe n'abantu benshi cyane harimo abazungu, bambaye imyenda igiye itandukanye, abajyanama bambaye imyenda isa ubururu bw'ikirere.

Ahantu hanini cyane hubatse ibintu bimeze nk'ibigega bigiye biri mu butaka hasi, ibigega bitatu binini cyane ubona bifunze hejuru.

Abana batatu bambaye iniforume z'ishuri, hasi hasa ubururu, amashati asa umuhondo, ku maboko hariho utuntu tw'ubururu, n'ikora ririho ubururu, bari gukaraba intoki n'isabune n'amazi.

Abamama baje kwa muganga, bambaye imyenda itandukanye, harimo n'uwambaye umwenda w'umweru, harimo ukenyeye igitenge, wifashe mu mayunguyungu.

Muganga wambaye umwenda usa icyatsi w'abaganga n'agapira imbere gafite hejuru akabara k'umuhondo, ari imbere y'imashini isuzuma abarwayi, iruhande rwe hahagaze undi muganga utagaragara neza.

Abana babiri b'abakobwa umwe ukenyeye igitenge cy'umuhondo n'agapira k'ubururu undi yambaye agapira karimo umutuku ndetse n'umukara akenye igitenge gifite amabara menshi, ari gukorera indobo y'icyatsi irimo amazi undi mwana, inyuma yaho hari inzu ishakaje ibyatsi.

Umugore ubona ko yishimye cyane yambaye agapira gasa ubururu bwijimye n'agakote gasa umutuku umusatsi we ari muke cyane udashokoje yasetse cyane.

Abantu babiri umwe wigunze wifashe ku gahanga, n'undi mugore uri kumukoraho wambaye isaha ku kaboko afite imisatsi myinshi, ahantu ubona ko afite ibibazo by'uburwayi.

Umuntu wicaye hasi wambaye ibintu bisa nabi cyane ingutiya isa umutuku yanduye cyane ndetse n'inkweto zisa nabi n'uducupa ku ruhande, bigaragara ko arwaye mu mutwe.

Umuntu wicaye hasi afite amafoto menshi iruhande rwe, yambaye amapingu y'abantu bagiye gufungwa, inyuma ye hahagaze umupolisi ndetse n'abandi bantu benshi, yambaye ikabutura ndetse n'umupira wa rakosite w'umutuku.

Icyapa kiriho umugabo wambaye ishati isa n'ubururu bw'ikirere, afite mikoro ari kuvuga amagambo, mu cyapa gisa ubururu bwijimye cyane.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bari mu ifoto ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bari kwifotoza amafoto atandukanye bambaye imyenda itandukanye.

Icyapa kiriho amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'ubururu, n'amagambo atatu ari kuri numero: nimero imwe iri mu ibara ry'umutuku, nimero ebyiri mu ibara ry'icyatsi, nimero eshatu mu ibara ry'ubururu ndetse n'umugore uriho uri guseka wambaye umwenda w'umuhondo n'umutuku.

Abantu benshi cyane bari ku murongo harimo umuzungu umwe, bafite udukarito abandi batadufite, dufite amabara y'umuhondo n'akatsi gatoya ku ruhande, ndetse n'umweru bahagaze imbere y'icyapa kinini cy'umuhondo.

Abantu benshi cyane bambaye imyambaro itandukanye bose bafashe ku gipapuro kimwe bari kwifotoza n'undi wambaye umupira w'Umweru bahagaze iruhande bahagaze imbere yimodoka ndetse n'amatente manini.

Icyapa kigaragaza amabwiriza ndetse n'uburyo umwana w'umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu, yakwirinda ibintu bigiye bitandukanye mu gihe cya kovide.

Umuntu wicaye hasi ufite imisatsi myinshi cyane wambaye ibintu bisa nabi ikabutura ya kaki n'agasengeri yicaye mu kidurugumu cyacitse iruhande rwe hagaze abagabo babiri.

Umuntu wifashe mu gahanga n'amaboko abiri afite imisatsi isutse na menshi izengurutse cyane yambaye umupira usa umweru, yicaye ahantu hasa umweru.

Umuntu usa nabi cyane bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yisize imyanda yambaye imyenda yacikaguritse, inyuma ye hari imodoka y'igikamyo isa ubururu ndetse n'umukara.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye, ku ruhande hari abahagaze bambaye imipira y'imyeru bafite icyapa kiriho amabara y'icyatsi n'amagambo y'umweru ndetse n'amabara y'umweru n'amagambo y'umukara.

Abantu benshi bahagaze ku mirongo itatu bari kwifotoza hirya yabo hari icyapa kiriho amafoto n'amagambo bitandukanye, harimo abagabo bambaye amakositimu hari n'abandi bambaye amashati gusa, n'abagore barimo batandukanye.

Umupira ufite amabara y'umweru yiganje, amaboko asa n'ubururu, wanditseho amagambo, harimo amabara menshi atandukanye mu kazeru kari mu mugongo ahagana mu bitugu.

Abantu benshi barimo abasore ndetse n'abakobwa bambaye imupira isa ubururu, ifite ututurango tw'imyeru ku mutima, hahagaze hagati yabo umugabo wambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wicaye ahantu yiziritse amaguru akenyeye igitenge, yambaye umupira w'ubururu n'umweru yicaye ku gitambaro gifite amabara atandukanye, iruhande rwe harambuye igitenge.

Umuntu ufite agatambaro yipfutse mu maso ari mu ishusho igaragara mu buryo bwa kera ateze igitambaro, uwo mugore ari kwihanagura amarira mu maso.

Umuntu w'umugabo uri guseka cyane ufite ubwanwa bwinshi yateretse, ufite umusatsi mukeya n'amenyo y'imyeru, wambaye umupira w'umuhondo cyane ufite amatwi manini ariko atari manini cyane.

Umumama uteruye umwana, wambaye agapira karimo uturongo dusa n'umutuku, werurutse, umumama yambaye agapira gasa umweru.

Abantu benshi bahagaze ku murongo, hagati yabo harimo umupolisi wambaye imyenda y'igipolisi cy'u Rwanda, harimo abagabo n'abagore bahagaze imbere y'ibyapa bifite amabara.

Umuganga uri mukazeru, wambaye itaburiya ifite akantu k'ubururu ku mutima n'ishati isa n'umutuku, ari mu cyapa gisa ubururu, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Umugabo ufite mikoro wambaye umupira usa n'umweru, hirya ye hicaye abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, inyuma ye hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi n'umweru cyanditseho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Umugabo wicaye wambaye imyenda isa nabi cyane, ufite uducupa tw'amazi mu ntoki, witangiriye itama, urwaye uburwayi bwo mu mutwe, yegamye ku gikuta gifite irangi ry'umuhondo rishaje.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye udupira dusa ubururu, n'amapantaro agiye afite amabara atandukanye, harimo abahungu n'abakobwa, hari umugabo ubahagaze hagati wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara na karuvati.

Umwana ubona ko ari kurira amarira yamanutse, afite ijisho ryatukuye cyane afite n'izuru rinini ndetse afite n'ibitsike n'ingoyi byinshi cyane.

Umukecuru utekeye hanze ku nkwi iruhande rwe ateretse ijage isa icyatsi n,igikombe gisa ubururu n'umupfundikizo usa n'ivu yambaye umwambaro wigitenge uri mumabara atandukanye ari guseka.

Icyapa kigaragaza umukobwa wambaye agapfukamunwa bigaragara ko ari guseka, wambaye imyenda y'imikara ndetse n'igitambaro mu mutwe cy'umukara, icyapa gifite amabara y'icyatsi n'umweru wiganje n'amagambo ari mu mabara atandukanye.

Umuntu wicaye ku ntebe izwi mu rubaho, akinguye idirishya imbere ye hari umusambi, I nzu bigaragara ko ishaje cyane, umuntu w'umugore wambaye inkweto zifunguye ukenyeye igitenge wipfumbase.

Abantu benshi cyane bahagaze ku murongo, ameza afite ibitambaro bisa imikara, ariho utwapa dusa umweru, turiho amagambo asa umukara n'igipirizo gisa umutuku imbere yabo.

Abana benshi, ubona ko bishimye, bari kureba ibintu biri imbere yabo, harimo umwe uri guseka cyane, undi wambaye agapira k'umutuku uri ku ruhande, n'abandi benshi cyane.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, abandi bahagaze bari imbere y'icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, bari kwifotoza, bambaye imyambaro itandukanye.

Abantu babiri b'Abirabura, umwe wambaye agapira k'umweru, wifashe ku matama yombi, yashyize amaboko ku meza n'undi uri hirya wambaye agapira gasa ubururu gafite igishushanyo imbere.

Abantu batanu bicaye ku ntebe zizwi nk'imbaho, b'abagore n'umugabo, bicaye imbere yabo bambaye imyenda itandukanye, umwe wambaye imyenda irimo uturongo tw'umukara n'umweru, afite impapuro n'ikaramu mu ntoki.

Abana benshi cyane bari mu ishuri, bazamuye uburoso bw'amenyo babahaye, hari n'umuntu mukuru ubahagazemo hagati, abana barimo abakobwa ndetse n'abahungu, imiti babahaye iri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Umuntu ufite agakoresho bashyira mu menyo bagiye kurwana, gasa n'umweru wera de kabonerana cyane afite amenyo yasamye cyane.

Igikoresho abaganga bakoresha bareba mu kanwa k'umurwayi, gisa umweru, gifite aho umurwayi aryama hasa icyatsi, gifite na mudasobwa iteretse imbere abaganga bareberaho amakuru.

Umuntu wambaye amarinetie, ufite ubwanwa bwinshi, w'umuzungu, ari kureba amafoto atandukanye yometse ku gikuta, amafoto ari mu ibara ry'umukara n'umuhondo werurutse, yometse ku gikuta cy'umweru.

Abaganga babiri' n'umurwayi uryamye ku gitanda bambaye imyenda yimikara umugabo yambaye na marinette n'isaha, ndetse n'ishati isa umweru bari kureba mu kanwa k'umurwayi wambaye umwenda w'ubururu.

Umusore ufite akagozi mu ntoki w'umwirabura, ufite ubwanwa buke buringaniye, n'amenyo asa umweru ari gucisha ako kadodo, mu menyo akuramo imyanda.

Umugabo w'umwirabura uri gufata agati akanyuza mu menyo, afite amenyo y'umweru yera de arasa n'umwirabura afite umusatsi w'umukara, akadodo ari gukoresha agafatishije amaboko abiri.

Umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi yambaye n'uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, ari kuvura umwana mu kanwa umwana aryamye ku gatebe bavuriraho abarwayi.

Umukobwa mutoya ufite umusatsi usanzwe yakoze ikimenyetso cya mande enye ahagana ku munwa we yamwenyuye ari kugaragaza amenyo.

Abantu batanu harimo umugabo umwe wambaye itaburiya ya kaminuza y'u Rwanda, afite n'ikintu kigaragaza umusaya bigiraho ari kwereka umwana ibintu bijyanye n'amenyo.

Umuntu ufite amenyo y'umweru cyane afite akadodo gafashe ku biganza bibiri ari gucisha mu menyo, umuntu ni umwirabura afite isura y'igikara.

Igishushanyo kigaragaza ifoto y'umuntu bafashe yo mu menyo yafashwe n'icyuma cyo kwa muganga, gipima indwara z'imbere mu mubiri zigiye zitandukanye.

Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa buringaniye, wambaye amarinete ashashagirana, ufite amenyo y'umweru de, wasetse, afite urutoki, yarutunze ku bwanwa bwe.

Abana bambaye uniforme zi'ishuri zirimo utubara tw'icyatsi n'umweru n'amakabutura y'cyatsi, bafite uburoso bari koza amenyo.

Umusore uryamye wambaye umwambaro w'ubururu bwijimye bari kuvura mu menyo, abaganga bambaye uturindantoki tw'ubururu bambaye n'udupfukamunwa.

Umusore wicaye ku ntebe arimo aratunga urutoki mu menyo yasamye imbere ye hari umuganga w'umuzungu wambaye ga z'ubururu ufite ibikoresho bivurisha indwara zo mu kanwa.

Inyubako nini ndende cyane igereretse kabiri, ifite hejuru urukuta rw'amakaro asa icyatsi handitseho amagambo hope dento keya ivuze ibyiringiro ivuriro rivura amenyo.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire cyane, uri kwireba muri miruwari uri kwiborosa amenyo, akoresheje uburoso busa umweru n'umutuku, wambaye agasengeri gasa umweru.

Abantu b'abaganga ndetse n'abaje kwivuza mu menyo. abaganga ni batatu n'undi uhagaze ku ruhande bambaye imyambaro isa n'umweru y'akazi, bafite impapuro imbere yabo, bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Inzu ubona ko ari icyumba cy'ibitaro, kirimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, harimo intebe umurwayi aryamaho, harimo intebe y'umuganga, harimo n'ibyuma bimanitse hejuru, hasa umweru ari wo wiganjemo.

Abana benshi bari mu ishuri, bambaye iniforume zisa umuhondo ku mashati, n'amajipo n'amakabutura asa na kaki, bafite ibintu babahaye bimeze nk'ibisuguti bazamuye amaboko bose.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo afite akantu ari gucisha mu menyo ayahanagura yambaye umupira wmweru afite umusatsi mwinshi.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho byiza bifite amabara yiganje mu mweru, harimo n'intebe isa umutuku. Ndetse n'utubati batekeho ibyo kurya.

Umwana w'umukobwa wasamye cyane hari intoki zambaye uturindantoki dusa umweru zifite n'akuma karekarenga gafite akantu kameze nk'agasahani hasi ari kumurika mu kanwa k'umwana wasamye, umwana yambaye agapira gasa.

Umugabo uri mu bwogero, ari kwireba muri miriwari, afite akantu k'uburoso bwo mu menyo ari kwiborosa, akenyeye igisume gisa umukara.

Utwuma dusa umukara turi ahantu hejuru tumanitse, hari utundi twuma twinshi turi mu mabara y'imyeru, bifashisha bavura abarwayi barwaye indwara z'amenyo.

Umuganga wambaye utuntu ku maso tureba m'umunwa w'umuntu ari kuvura amenyo yambaye agapfukamunwa, hirya ye hahagaze undi wambaye umwenda usa n'ubururu ndetse nu'dupfukantoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bakoresha kwa muganga basuzuma indwara, cyane cyane ziri imbere mu mubiri harimo amamashini ndetse na za mudasobwa n'intebe y'umuganga akora yicayeho.

Abantu babiri barimo umugore w'umuganga w'umuzungukazi wambaye isaha ndetse n'ishati yambarwa n'abaforomokazi ari kugendesha umurwayi ku kagare k'abantu bavutse bafite ubumuga.

Abantu babiri, umusaza wambaye amarinete n'ishati y'umutuku n'ipantaro isa n'ivu n'umuganga wambaye umwambaro w'akazi usa ubururu, afite akantu gapima umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso mu ntoki.

Umugabo mukuru ushaje cyane ufite ubwanwa bwabaye imvi muremure w'igikara, uri kugendera ku kuma k'abantu bavunitse afashwe n'umuganga w'umuzungu, wambaye umwenda w'akazi ni icyapa kimuranga mu gatuza.

Umugabo ukuze uri gukina n'umwana umukino w'amaboko bagenda badunda umupira, umwana wambaye ipantaro isa icyatsi cyerurutse, umugabo yambaye ikabutura isa na kaki.

Umumama w'umwirabura wambaye ikanzu y'umuhondo, ufite imisatsi y'imikara miremire, wambaye amarinete ari kunywa imiti y'ibinini bisa umweru bivuye mu gacupa gasa umweru, gafite umupfundikizo w'icyatsi.

Umugore w'umuzungu, uri kumwe n'umukecuru wumwirabura wazanye imvi nyinshi cyane arimurambura amaboko amufashe ku kuboko umuzungu yambaye umupira wa move.

Umukecuru wicaye hagati y'abana benshi batandukanye, bagiye bambaye imyenda itandukanye, umukecuru yambaye ijipo nini ndetse n'igishati kinini cyane, abana benshi b'abuzukuru be.

Abantu babiri umusaza ukuze cyane ufite imvi nyinshi n'umukobwa ukiri muto uri kumuha imiti yandikaho uko azajya ayikoresha, imbere yabo hateretse ikirahure cy'amazi ku meza n'amakayi n'impapuro.

Umuntu wicaye ufite akantu gapima umuvuduko wamaraso ndetse n'umutima uko utera ku kuboko yambaye umwenda usa n'umuhondo werurutse ndetse biragaragara ko ari umusaza ushaje ufite imvi.

Abantu benshi bari guseka bishimye, harimo umugabo ufite imvi nyinshi w'umwirabura, n'umugore ufite imisatsi myinshi ahetse umwana, inyuma y'umugabo uhetse umwana ufite imisatsi myinshi n'umumama uri imbere y'umugabo.

Umuforomokazi uri kwita ku mugabo ubona ko akuze cyane, bambaye bose agapfukamunwa. Umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro isa ni ivu, umuganga yambaye umwenda w'akazi usa n'icyatsi ndetse n'misatsi y'abagore yayipfundikiye hejuru.

Umugore ukuze cyane, wambaye ipantaro isa n'umutuku, n'agapira gasa n'ivu. Yicaye ku kantu gasa n'ubururu bwerurutse, kari muri jaride, ari gukora siporo yarambuye amaguru.

Abantu babiri harimo umusaza ukuze cyane, ufite imvi nyinshi, wambaye umupira wa lokosite usa umweru, yambaye n'amarinete afite akantu gasa icyatsi, ari kuzamura mu ntoki, hari umuganga umuhagaze iruhande wambaye imyenda isa umutuku.

Ababyeyi babiri bakuze cyane umugabo w'umusaza ndetse n'umugore w'umukecuru, umusaza yambaye agapira ka rakoste gafite ibara ry'ubururu, umusatsi we ni imvi, yambaye agakomo ku kuboko. Umumama yambaye umupira usa umutuku, naho umusatsi we n'imvi, yambaye n'amaherena.

Abantu bakuze cyane bari kumurongo harimo abiganje bambaye imyenda isa imikara y'amajipo ndetse n'imipira isa umweru, harimo uwambaye ikanzu y'amabara menshi undi wambaye umupira usanzwe.

Abakecuru babiri ubona ko bakuze, umwe yambaye agapira karimo ibara ry'ivu uw'imbere, uw'inyuma yambaye agasengeri gasa ubururu bwerurutse n'akantu k'umuhondo karimo imbere bari gukora siporo.

Abantu babiri umukecuru n'umusaza bicaye, umusaza yambaye umwenda w'umweru, imbere yabo hateretse imbuto zitandukanye, harimo pome umukecuru, ari gusuka ji isa umuhondo mu kirahure.

Umugabo ukuze cyane wambaye ishati isa na kaki, ufite imvi mu musatsi, witangiriye agahanga, yashinze ukuboko ku meza ari gusoma igitabo, iruhande rwe hateretse ikirahure cy'amazi.

Abantu benshi bari mu muhanda bagenda, hari abakecuru imbere babiri bafite inkoni, umwe yambaye umupira w'umutuku ateze igitambaro, undi yambaye umupira w'umutuku yashokoje umusatsi w'imvi, inyuma yabo hari umusore wambaye umupira uriho ikirango cya FPR cy'igipfunsi.

Abantu babiri, umugabo ukuze w'umusaza n'umugore ukuze wambaye amarinete, umugabo afite agacupa karimo umuti ari kwereka umumama, imbere y'umumama hateretse mudasobwa ari kwandika.

Abantu babiri, umusaza n'umwana ukiri mutoya bari gusoma igitabo. Umusaza yambaye amarinete, umusore yambaye ishati irimo uturongo tw'imyeru n'imikara, imbere yabo hateretse ibikombe by'umweru ku meza y'umweru.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga harimo umukecuru uri kuboha agatebo, harimo umukobwa wicaye ku ntebe y'umutuku ya palasitike, hari n'umuzungu, hirya uteruye akana k'akirarabura n'abandi bicaye hasi.

Abantu babiri, umwe w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga, n'undi w'umusaza wicaye hasi ku ntebe, yambaye umwenda w'umweru n'ipantaro isa na kacyi.

Abagore batanu bambaye imyambaro y'ibitenge biri mu moko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye, bari gucuruza inyanya, inyuma yabo hari n'imbuto z'amatunda ndetse n'indimu.

Umusaza ugaragara ko akuze cyane yambaye agapira k'ubururu busa n'ikirere afite imvi nyinshi yambaye ekuteri mumatwi yambaye na marinete afite utwuma tunanura imitsi mu ntoki.

Umugore bigaragara ko akuze yambaye ipantaro isa umukara, isengeri isa ubururu, imisatsi ni imyeru, yicaye yarambuye ukuguru kumwe yicariye ukundi, ari gukora siporo yarambuye amaboko.

Abantu babiri, umugabo ukuze cyane w'umusaza ufite mudasobwa imbere ye n'agakombe k'amazi gateretse iruhande, ndetse n'umukobwa ufite imisatsi ya menshi ari kumuha ibinini.

Icyapa kigaragaza uburyo ki wakwirinda kanseri, cyateguwe n'urwego rushinzwe ubuzima ku isi OMS.

Abaganga batandatu bambaye ubupfukamunwa busa ubururu, bambaye uturindantoki dusa imyeru, bambaye amakanzu afite mask zipfuka mu maso, zambarwa n'abantu bagiye ku kuvura covid nineteen, inyuma yabo hari undi muntu wambaye agapfukamunwa wambaye umupira usa na move.

Ishusho igaragaza abantu bane, harimo abagabo babiri n'abakobwa babiri. Bafite ubwoko bw'udukingirizo bikoresha mu mibonano mpuzabitsina, twanditseho love, dusa umutuku.

Icyapa kiriho ikarita ya Afurika igaragaza agace k'umutuku kari muri Afurika y'epfo ndetse n'akandi gace kari muri Afurika y'iburengerazuba gasa umuhondo, hariho abantu ndetse n'umubyeyi uteruye umwana.

Abantu b'abakobwa bari mu nama, bicaye bambaye imyenda y'imyeru, hari abandi batatu bambaye imyenda y'imikara, harimo n'undi wicaye imbere wambaye umwenda w'icyatsi, hari n'ufite mudasobwa iteretse imbere.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi, agaragaza ikigo gishinzwe kurwanya Kanseri mu Rwanda, hariho ndetse n'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Abantu batatu, abaganga babiri n'umurwayi umwe, bari gusuzuma mu kanwa bambaye imyenda isa ubururu n'ingofero z'icyatsi n'udupfukamunwa n'udupfukantoki n'abandi benshi bari ku murongo hanze y'itenti.

Abantu bari mu nama bambaye imyenda isa y'imyeru, hari umukobwa uhagaze imbere wambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umutuku n'ikoti ry'umukara, ahagaze imbere y'icyapa, arigusobanura ibyo inama igamije, abasobanurira umushinga yaje kumurika.

Abantu benshi cyane bicaye mu ntebe, imbere yabo hari abantu bari kubyina imbyino gakondo Nyarwanda, bahagarariwe n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umuganga wambaye ga uri kuvura abarwayi, ari gufata amaraso ku gatoki, hari n'imiti imuteretse imbere n'abandi bakobwa ndetse n'umukecuru bamuri imbere bari kumufasha.

Igitabo kirimo amagambo ndetse n'igishushanyo kigaragaza umubumbe w'Isi, kigaragaza imigabane yose ikigize, hariho uturango tw'Umuryango Ushinzwe Gutabara Imbabare Croix Rouge.

Icyapa kiriho amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, n'umutuku mukeya kigaragaza Afurika yo hagati y'Uburasirazuba ishinzwe kuvumbura ibijyanye n'ubuzima.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi atandukanye, harimo ari mu ibara ry'umweru yanditse mu mabara y'umukara ndetse n'ari mu ibara ry'umukara yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi cyane bari kwifotoza ku cyapa kigaragaza umunsi wo kwishimira ubuyobozi bw'abagore, bambaye imyenda itandukanye, bazamuye amaboko bishimye cyane.

Abantu batanu, umwe w'imbere ari kwigisha, abandi bane bicaye ku ntebe zisa umutuku, bambaye imyenda itandukanye, harimo abagore babiri n'abagabo babiri, n'ubigisha w'umugabo.

Imbonerahamwe irimo amabwiriza agiye atandukanye ifite udufureshi tuzamuka tureba hejuru, tw'ubururu ndetse n'utumanuka tw'umutuku n'utuzu twinshi cyane.

Icyapa gisa umuhondo kiriho amagambo y'umutuku, ay'umweru ndetse n'ay'umukara hashushanyijeho akayuki hari n'abantu bashushanyije iruhande umuganga ari gutera urushinge mwana mutoya.

Abaganga bane harimo umwe w'umuzungu wambaye amarinete w'umugore ndetse n'umurwayi uryamye ku gatanda gasa ubururu, bose bambaye ubupfukamunwa bari kumuvura.

Icyapa kiriho utuzeru tubiri twanditsemo amagambo, kamwe gafite amabara arimo y'imbere umuhondo, umutuku, n'ubururu, akandi karimo umutuku n'icyatsi, n'inuma isa n'umutuku n'icyatsi.

Ukuboko k'umuntu w'umwirabura kwariwe n'igisimba, kwabyimbye cyane kuriho uduheri twinshi dutandukanye utw'utuzeru n'utundi turambaraye.

Icyapa kiriho ibizeru bitandatu n'ikindi kimwe kirimo hagati, bibiri bisa umuhondo, kimwe k'icyatsi, kimwe gisa ubururu, ikindi gisa na oranje, ikindi gisa n'ivu, ikindi kirimo hagati gisa ubururu bw'ikirere.

Abagabo babiri bicaye imbere, hari abandi bantu benshi babicaye imbere, bari kubabwira amabwiriza yo kwirinda indwara, iterwa na virusi ya marburg.

Abantu benshi bahagaze harimo n'abicaye, hari umwe wambaye umupira w'umukara, n'undi wambaye ishati y'umweru n'agasengeri k'umutuku, ari gupima umuvuduko w'amaraso yifashishije ukuboko.

Abantu benshi cyane bicaye, hari abicaye imbere bane n'abandi bicaye bari kureba abari imbere bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagore n'abagabo bavangavanze bari mu nama.

Inzu nini cyane ifite imiryango myinshi harimo umuryango ucururizwamo imiti y'abarwayi harimo amabara agiye atandukanye, imbere yaho haparitse imodoka ifite ibara risa n'ikigiga.

Inzu nini yo kwa muganga bavuriramo irimo amamashini atandukanye bavurisha abarwayi, harimo na televiziyo nini bareberaho indwara abarwayi barwaye.

Abantu bane bicaye imbere ku meza hariho igitambaro gisa icyatsi, ndetse hari n'abandi bicaye imbere yabo barebana, ab'imbere imbere hateretse uducupa tw'amazi, ndetse n'abandi baradufite, hari umuntu uhagaze ku ruhande ari gu kamera abicaye imbere.

Inyubako nini y'icyumba, harimo ibikoresho bitandukanye, intebe zisa umukara, intebe zisa ubururu, ibyuma bikoreshwa basuzuma abarwayi ndetse n'igishushanyo k'ijisho.

Icyumba cyiza cyane gifite amabara meza y'umuhondo werurutse, harimo igitanda gifite amapine gishashe n'amashuka meza n'umusego, bigaragara ko ari kwa muganga.

Icyumba cyiza cyane gifite amakaro asa n'ivu, gifite intebe zisa ubururu, ndetse n'ikindi ntebe zisa umukara, harimo amarangi asa umuhondo werurutse muri icyo cyumba.

Abantu babiri harimo umuganga wambaye akantu gapima umutima ndetse n'imyambaro isa ubururu y'abaganga, umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge ateze igitambaro mu mutwe.

Umuganga wicaye mu biro ari kureba kuri mashini ndetse no kuri televiziyo igaragaza amashusho y'umurwayi bafashe imbavu ze ari kwitegereza neza ikibazo, hari amarido agiye acikaguritse ari mu idirishya.

Inzu nini cyane igereretse inshuro eshatu, isa umuhondo w'itafari ryumye, iriho icyapa hejuru kigaragaza ko ari ivuriro ryigenga, haparitse imodoka enye zisa umukara imbere y'ivuriro.

Icyumba kinini cyane gikikijwe n'ibirahure gusa, kirimo ibikoresho bakora, bakora siporo zitandukanye, harimo utugare harimo ibyuma baterura, kongera ibiro bitandukanye.

Inzu nini cyane ifite aho bakirira abakiriya hazengurutse, mu imbere hicayemo umuntu wambaye akagofero gasa na move, yambaye n'umwenda usa n'umweru, hirya hari utuntu tw'imituku twinshi.

Ibyumba birimo ibitanda byinshi ndetse n'amarido atandukanya ibitanda, ku mutwe no hasi w'igitanda hasa ubururu, amarido asa n'umuhondo bigaragara ko ari kwa muganga.

Icyumba cyiza cyane kinini gifite inzugi z'ibirahure gusa harimo utuntu tw'icyatsi duteretse ku ruhande harimo akantu kameze nk'intebe gafite ibara risa n'umutuku w'itafari hari n'igikuta cyometseho ikibaho gifite ibara risa n'umutuku w'itafari.

Inzu nini cyane y'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro byo kwa Nyiririnkwaya, harimo idarapo, harimo akazu k'umuhondo bacururizamo amainite, haparitse imodoka mo imbere, uruzitiro rwayo rukikijwe n'utwuma dusize amabara y'ubururu.

Amazu meza cyane, abiri ari mu ishusho y'uruziga, afite utwapa dutoya dusa umuhondo ndetse n'indi nzu nini iri hepfo, ifite amabara y'amatafari n'ijaride irimo pasiparumu nziza.

Inzu nziza yubatswe muburyo bugezweho yanditseho amagambo agaragaza ko ari inzu ababyeyi babyariramo, ifite utuntu kuruhande turinda abantu kwitura hasi dusa umutuku isakaje amabati y'ubururu.

Igitanda kiza cyane cyo kwa muganga, kiriho imisego ibiri umurwayi yisegura, hepfo yaho hasa ubururu, hari televiziyo ku ruhande imuteretse iruhande, abaganga bareberamo ibibazo afite.

Inyubako nini yicayeho abantu bari kureba mu idirishya, yanditsweho ko ari raboratwari aho bafatira ibizamini by'ubumenyi, abagore bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, imbere y'inzu hari jaride y'indabo nyinshi z'umuhondo n'icyatsi.

Icyumba kinini cyane, kirimo amamashini ajya atandukanye, harimo n'amafirigo ashinzwe gukonjesha ndetse harimo n'ibindi byuma biri kwaka amabara menshi y'imituku.

Inzu nini cyane iri mu ishusho y'uruziga, ifite icyapa kiri mu mabara y'ubururu atandukanye, harimo n'inyuguti eshatu zanditse mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, n'imodoka ziparitse imbere yaho, n'abantu bari gusohoka mu nyubako.

Icyumba kinini cyane kirimo amamashini atandukanye, afasha gukonjesha imibiri y'abantu bapfuye, agiye apanze muri etajeri, mu buryo busumbana, imwe hejuru yindi.

Icyumba cyiza cyane kirimo ubukarabiro bwiza bugezweho, bufite amazi yizana, gifite amababa y'umweru n'amatara yaka neza cyane, gifite n'utubara tumwe na tumwe dusa n'ivu.

numba zirimo abantu babiri umusore uryamye u gatanda wambaye aku umuganga uri kumukura bafashe amaraso ku kuboko muganga ufite imisatsi ya menshi murwayi ayihamye ku gitanda gisa ubururu yambaye ingofero

Inzu nziza cyane bakoreramo imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma bitandukanye ibyo baterura, ibyo birukaho, ibyo bajyaho bakanyonga bimeze nk'igare n'ibindi byinshi.

Inzu nini nziza cyane ifite ibiti biteye impande yaho na pano iteretse imbere, ndetse na kizimya mwoto isize irangi risa umweru n'amabati asa ubururu yanditseho inzu yab'ababyeyi.

Inzu ifite umuryango n'icyumba byiza cyane harimo ibitanda bitandukanye na supanete, bigaragara ko ari iby'abarwayi inzugi zabyo ni ibirahure gusa.

Ikigo kinini cyane kirimo inzu z'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo amataje ndetse n'izindi zitageretse hari abantu bahagaze imbere hagati y'ayo mazu harimo ubusitani bwiza cyane.

Inzu ebyiri nini cyane zishakaje amabati atandukanye, imwe isakaje amabati y'ubururu ifite inzugi z'imyeru, n'indi isakaje amabati y'umutuku, n'inzugi z'ubururu.

Inzu nini icururizwamo imiti itandukanye, hirya yaho hari umumotari hari n'imodoka inyuma ye, mu nzu mo imbere harimo umumama uhetse umwana n'undi afite ukuboko n'abandi bakobwa babiri bamuhagaze iruhande.

Inyubako nziza nini igaragaza ikirango ku muryango winjira, cyanditseho ko ari ibitaro bya Nyarugenge yo mu mujyi wa Kigali. Hari utwatsi duteye ku murongo dufite amabara meza.

Umuntu wambaye imyenda y'abaganga usa n'icyatsi cyerurutse, ari kugenda mu cyumba kirimo ibitanda by'abarwayi, n'amashuka asa ubururu bwerurutse busa n'ikirere, n'ibikuta bisa icyatsi.

Icyumba cyiza cyane kinini cyane bakoreramo imyitozo ngororamubiri gifite ibirahure binini cyane byo hanze gifitemo ibikoresho byinshi bakoresha bari gukora siporo ngororamubiri.

Inyubako nini cyane ziri hirya y'umuhanda, haparitseyo imodoka ebyiri n'indi nyubako iri imbere y'umuhanda, umuhanda wa kaburimbo usa neza cyane haparitse imodoka ya coaster hepfo.

Icyumba cyiza cyane kiririmo imashini nyinshi cyane zifashishwa mu kuvura, harimo ndetse n'intebe zisa icyatsi yicarwaho n'umurwayi n'indi yizengurutsa yicarwaho n'umuganga.

Ikigo nderabuzima kiriho ababyeyi baje gukingiza abana, kigaragaza aho bakirira abaje ndetse naho basuzumira bakanakingirira abana.

Umuganga wambaye akagofero k'ubururu mu mutwe, ari gupima umwana uteruwe n'umumama wambaye ikanzu isa na move, yisukishije imisatsi ya menshi.

Icyumba cyiza kinini kirimo imashini ifite amabara y'umweru yiganje ndetse n'utuziga tubiri kimwe kinini gisa ubururu, ikindi gito gisa ubururu, harimo umuganga uri gutunganya imashini umurwayi aza kuryamaho.

Sare iberamo inama irimo intebe nziza, ameza y'imbere y'abantu bayobora inama, asa umweru, intebe z'abantu baje mu nama zisa umukara, hariho hejuru isakaro risa nk'irikoze mu mbaho.

Inyubako nziza cyane isizemo amarangi y'umuhondo harimo televiziyo hejuru, harimo n'isaha imanitse ku gikuta ndetse hari na taburo imanitse ku gikuta iriho ifoto y'ikiyaga, harimo amamashini y'ubwoko butandukanye ndetse n'intebe y'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyiza cyane gisa umweru, kirimo amatara abonesha cyane harimo ibikoresho byinshi bikoreshwa kwa muganga, harimo amamashini apima umuvuduko, harimo kompiyuta, ndetse harimo n'udutereviziyo dutandukanye.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ubuvuzi cya Nyanza cyangwa se ibitaro bya Nyanza ifite porotayu, ikingishije amabara y'ubururu n'amagambo abiri yanditse y'inyuguti ya H, yanditse mu mweru.

Muganga w'umugabo wambaye amarinete, ufite umusatsi uringaniye, yambaye ishati isa n'ivu, ufite akantu gapima umutima mu ijosi, yambaye itaburiya y'abaganga, iruhande rwe hari umwana ukiri muto wambaye ikanzu n'utundi twana turi hirya tutagaragara neza.

Inzu nziza cyane ndende ubona ko imaze igihe ifite amadirishya atarimo giriyaje ndetse harimo n'indabyo imbere yaho handitseho amagambo hejuru ku nzu isize ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri umwe urwaye uri guca mu cyuma ndetse n'umuganga uri gukoresha icyuma, icyuma gifite amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru na tereviziyo ebyiri ku ruhande, n'imirongo iri mu ibara ry'icyatsi inyuranamo hagati.

Abantu batatu umugore uhagaze mu muryango, umwana uri gusunika umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga wambaye ishati y'umweru, umugore uhagaze mu muryango yambaye umupira w'umweru, ahantu ahagaze hari amabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Farumasi icuruza imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umutuku, inzugi zaho zikingishijwe n'ibirahure gusa.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu bukeya bigaragara ko ari kwa muganga.

Inzu nini nziza ikorerwamo n'ikigo gishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda, imbere y'aho hateye amajaride arimo indabyo nziza, hari umusirikare w'u Rwanda uri guhinguka ava mu biro by'icyo kigo.

Umuntu wambaye imyenda imupfutse isura yose, izwi nk'imyenda bambaraga bagiye kuvura abarwayi barwaye coronavirusi, iruhande rwe hateretse indobo isa icyatsi, hirya hateretse indobo isa ubururu.

Icyumba cyiza cyane gifite amabara y'umuhondo n'umweru, harimo ubukarabiro ndetse harimo n'imashini iryamishwaho umurwayi bagiye kumusikana ngo barebe ikibazo afite mu mubiri hariho na televiziyo ibereka ayo mashusho.

Umugore ushushanyije wambaye amarinete, ufite imisatsi miremire cyane, hirya ye hari undi mugore wambaye amarinete, wambaye umwambaro w'abaganga ufite icyapa mu ntoki ari gusoma.

Icyumba cyiza cy'abarwayi, kirimo akabati keza k'amabara y'umuhondo, babikamo ibikoresho bitandukanye, harimo urukarabiro rwiza rugezweho, harimo n'agatanda abarwayi bicaraho.

Icyumba kirimo ibitanda byiza cyane biryamaho n'abarwayi. Harimo amarido y'ubururu, harimo na supanete, igikuta cyo hagati gisa ubururu, ibitanda biri gusa umweru.

Abagangakazi, abaforomokazi bari imbere yikigo Legacy kirinike, bambaye imyenda isa ubururu y'abagangakazi ndetse n'udupfukamunwa, bari kwifotoza.

Icyumba cyiza cyane, kirimo intebe ebyiri ndetse n'intebe ya gatatu iteretse imbere y'ameza, ateretseho mudasobwa isa umweru, hirya hari akabati n'irido rifunguye.

Inzu nini cyane ifite amabara y'umuhondo w'itafari rihiye ndetse afite n'ibara risa n'amabuye n'akajaride keza iruhande rwako.

Abaganga babiri bambaye amataburiya asa umweru, ari ahantu hasa umweru imbere y'imashini, imeze na televiziyo bari kureba amashusho atandukanye.

Inzu nziza cyane ishushanyije muburyo busa n'ikizeru hari n'indi ihagaze iruhande rwayo harimo akayira kameze nka kaburimbo ifitemo amabara y'umuhondo usa n'itafari ryumye ndetse n'amabara asa n'ikigina cyangwa asa n'ivu.

Inzu nini cyane irimo ibyumba byinshi bimeze nk'iby'abarwayi n'amarido asa umuhondo, ruguru hari abantu babiri b'abaganga bari gukora ibintu bitandukanye.

Inzu nini cyane igereretse inshuro eshatu, imbere yaho haparitse amamodoka menshi hagati yayo hari umugabo wambaye imyenda y'umutuku n'umukara ari kuyobora imodoka aho ziparika.

Ibitaro biriho umuntu ushinzwe kurinda umutekano, wambaye imyenda y'imyeru irimo amabara y'umuhondo, hari n'abarwayi n'abaganga bari gutambuka muri ibyo bitaro.

Abantu bicaye imbere y'inzu y'ababyeyi izwi nka materineti aho ababyeyi babyarira bari ku murongo, bigaragara ko bari gufata ifoto, harimo abambaye imyenda y'abajyanama b'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga bakoreramo ibikorwa byo kubaga ndetse no gusuzuma abarwayi, harimo imashini, umurwayi yicaramo cyangwa akaryamamo bakamwohereza bakareba ikibazo afite mu mubiri.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza umujyi wa Kigali, kigaragaza ivuriro rusange ry'ibanze bakunze kwita ikigo nderabuzima, hari ibiti byinshi haruguru hari n'akantu kabuza imodoka kwinjira.

Inzu nini cyane nziza yanditseho ibitaro bya Nyarugenge yo mu mujyi wa Kigali bifite amabara atandukanye, hari ibiti bigiye biteye mu buryo butandukanye ndetse hari n'utujaride ku ruhande.

Abantu benshi cyane bari ku murongo bigaragara ko ari abarwayi baje kwa muganga, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, ufite umupira uriho ikirango cy'umuryango ushinzwe gutabara imbabare kuruwa ruje.

Inyubako nini ndende cyane, isize irangi ry'umuhondo ifite utwuma two ku madirishya ndetse na tuno tuzi nk'uturindabasazi dusa umweru, handitseho icyapa ngo inzu y'ababyeyi n'impinja.

Abagabo babiri harimo umwe ukorera ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima, harimo n'undi bari gupima umuvuduko w'amaraso, haruguru yabo hari kizimyamoto ebyiri, ku ruhande hari n'icyapa cyanditseho irembo.

Inyubako nini cyane, ifite amabara meza, harimo jaride iteyeho ibyatsi bya pasiparumu n'ibindi bihakikije, hari umurwayi uri mu kagare, wambaye ikanzu isa icyatsi ndetse n'akagare gafite umugongo usa umukara n'undi muntu uri kugenda wambaye umupira usa n'umuhondo, ku ruhande n'ikigega cy'amazi.

Icyumba cyiza cyane kinini kirimo intebe nini z'imifarizo ndetse n'izindi z'imbere ziri ku meza zisa umukara n'izindi zisa z'imifariso zisa ubururu.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe eshatu z'umuhondo, harimo n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga n'amamashini atandukanye afotora ndetse n'udutebe twizengurutsa twicarwaho n'abaganga bari gusuzuma abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho byinshi bikoresha muri siporo, harimo na televiziyo bareberaho amakuru y'umuntu urwaye cyangwa uri gukora siporo zitandukanye, biri ahantu hari amabara y'umweru.

Akayira kari mu nzu hagati kagaragaza ibyumba byinshi bigiye bitandukanye, inzu imeze nka hoteli irimo ibishushanyo byiza cyane n'amarangi meza y'umuhondo n'amatara yaka neza cyane, inzugi zikoreshejwe imbaho za ribuyu.

Inyubako nini cyane nziza cyane ifite amajaride meza, ifite parikingi zapave nziza yanditseho ko ari ibitaro bya nyarugenge biba mu mujyi wa kigali.

Abantu benshi cyane bari ku murongo, hari n'undi umwe uri ku kagare, hari n'abandi babiri bicaye, umwe w'umugabo n'undi w'umugore, bambaye imipira y'imyeru.

Inzu nini cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byifashisha biruka, ibyo bifashisha banyonga igare, harimo amatara meza cyane, hafite isuku nziza cyane.

Inyubako nini cyane yubakishijwe ibirahure irimo amafoto ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye harimo amabara yiganje y'umweru n'utubara tw'icyatsi tugaragara cyane.

Inzu nziza cyane irimo ibyumba bikingishije inzugi z'ibirahure zigezweho zisize amarangi meza y'umuhondo wererutse arimo amatara yaka neza cyane, ku muryango hagiye handitseho nomero uwa mbere numero ya mbere uwa kabiri kabiri uwa gatatu nimero ya gatatu.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye bimeze nk'ibyo kwa muganga hari amadirishya y'ibirahure, harimo televiziyo hejuru zimanitse bireba ku bitanda by'abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi kwa muganga hagezweho harimo camera ndetse na televiziyo basuzumiraho abarwayi n'igitanda gisa ubururu gishasheho ishuka isa umweru.

Icyumba cyiza cyane cy'abarwayi bo kwa muganga, harimo amamashini atandukanye yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi babaganye.

Icyumba kinini cyane kimanitsemo inzitiramibu y'umweru isize irangi ry'umweru, harimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi ndetse harimo n'abaganga baje kubitaho.

Inyubako nziza nini cyane irimo icyumba gikingishije inzugi z'ibirahure, ku ruhande hari utuntu tw'utwuma bakoreraho siporo, gifite amabara asa umweru kiri mo ahantu mo imbere mu nyubako.

Inzu nini cyane, ifite ibaraza rizengurutse, imbere yaho hahagaze umuntu wambaye umupira usa umuhondo n'ijipo isa umutuku afite n'ikayi mu ntoki.

Umuntu uryamye wambaye umupira w'amaboko maremare usa n'ivu ipantaro y'umukara, ni umuganga wambaye itabuririya isa ubururu ndetse n'akantu karanga akazi mu gatuza, ari kurambura ukuguru k'umuntu uryamye.

Ibikoresho bitandukanye by'ibanze byihutirwa, bikoreshwa kugira ngo hatabare umuntu uhuye n'ikibazo mu gihe ari muri siporo, harimo akabogisi kaba karimo udukoresho dutandukanye, imiti amaga n'imikasi n'ibindi, n'amapamba n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, kandikishijeho amagambo imbere y'imituku, yambaye inkweto y'umukara, n'ipantaro y'umukara, ari gukora siporo agorora amaguru.

Umuntu uri gusuka amazi mu kirahure afite ijagi yi'kirahure intoki ze zirasa umukara cyane, amabara asa umweru ndetse n'ubururu bwerurutse niyo yiganje.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira usa umukara inyuma ye hari ishusho isa n'icyatsi, ari kunywa amazi n'icupa risa ubururu.

Umugore ufite imisatsi myinshi yazirikiye inyuma, yambaye agasengeri gasa na move, afite akantu kaziziritse ku kuboko, ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu, yambaye ekuteri z'umweru avuye muri siporo.

Umusore uhagaze mu byuma byinshi cyane bakoresha kwa muganga yambaye uturindantoki, yambaye umupira w'amaboko magufi, yambaye ipantaro isa n'ivu n'inkweto z'imyeru.

Abantu benshi bari mu cyumba gihurirwamo abarwayi harimo n'imashini zivura abantu bagize ubumuga bw'amaguru, hahagazemo abagabo bafite amakote y'amakositimu n'amakaruvati ndetse n'umuganga wambaye imyenda y'abaganga.

Umukobwa wambaye ekuteri z'imyeru, yambaye agapira k'umutuku ari kunywa amazi, afite imisatsi miremire ni umukobwa wirabura.

Udupfukantoki tw'imyeru turi kumwe n'uducupa twinshi cyane harimo n'imiti ivura amenyo myinshi ndetse n'udushashi twinshi batwaramo imiti n'ibinini.

Umukobwa uri muri siporo uri kunywa amazi mu gacupa k'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara afite n'akantu gapima umuvuduko wo ku kuboko yabitseho telefone.

Icyumba kinini kirimo ibintu bitandukanye by'imiti ivura indwara zitandukanye, harimo ibisa umuhondo, ibisa ubururu, ibisa umweru, bigiye bitondetse neza ku murongo.

Umugore wambaye kora y'umukara. Wambaye inkweto z'umweru. Wambaye écouteur z'umweru. Wambaye agasengeri k'umweru. Urigukora siporo zo kunanura amaguru, yarambu ye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora siporo, gifasha abantu kugabanya inda badashaka umubyibuho wabo ndetse kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri y'Amanyarwanda.

Icyapa kiriho amabara atandukanye ubururu, umuhondo n'umweru, hariho abantu bane bari gukora siporo zitandukanye, hariho uteruye icyuma ku rutugu w'umukobwa, hariho uri kunyonga igare w'umusore, hariho uri kugenda n'amaguru, hari n'uri gukina agapira bakubitisha inkoni baba bafite mu ntoki.

Umukobwa uri muri siporo ari kwirukanka kubyuma byabugenewe iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, nagapfukamunwa.

Umuntu wunamye afashe mu mavi ahagaze mu muhanda, yambaye imyenda ya siporo, ubona ko avuye kwirukanka ari kuruhuka ananiwe, yambaye inkweto z'icyatsi zifite rase z'umukara.

Imipira itandukanye n'ibindi bikoresho bitandukanye, bakoresha bari muri siporo, harimo umupira w'amaguru, harimo umupira w'amaboko badunda, harimo n'umupira wa rugubi.

Umugore uhagaze wambaye imyenda y'umukara, afite akantu gasa ubururu, ari kunyuza ku maguru y'umuntu uryamye, munsi y'ukuguru kurambitse harimo akantu kazingazinze ku musego gasa n'umweru.

Icyuma kigezweho cyo kwa muganga kifashishwa mu gufotora bareba indwara ziri imbere mu mubiri, icyo cyuma kirasa umweru ndetse gifite n'umwanya umuntu aryamamo bakamusunika.

Ibikoresho bitandukanye bakoresha bapima indwara zitandukanye kwa muganga, hari umugore ufite terefone ku gutwi wumuzungu wambaye agasengeri gafite amabara yiganjemo ibara rya move hirya ye hari agateleviziyo harimo agakoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso gasa ubururu.

Amashusho agaragaza ibice bitandukanye by'ubwonko yafashwe na scaner zo kwa muganga zifotora imbere mu bwonko ibyo umuntu akora n'ibyo atekereza.

Igikoresho bifashisha bapima iminota ndetse n'umuvuduko w'amaraso gikoreshwa n'ikoranabuhanga, kirimo amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'ikigina, n'amabara y'umweru n'umuhondo ku ruhande.

Uducupa tw'imyeru tureture turimo imiti igabanya uburibwe ku bantu bari muri siporo, baba abakinnyi cyangwa se abiruka babaha bakanywa cyangwa se bakabasiga dufite ibyapa birimo amabara y'umutuku ndetse n'uburu.

Icyuma cy'imashini bakoreramo siporo, kigaragaza uburyo bakora siporo bari kwivura cyabafasha gukira indwara baterwa no kudakora siporo.

Umuganga w'umuforomokazi wambaye umwambaro w'akazi yambaye uturindantoki, yambaye n'agapfukamunwa, yambaye n'akantu gapima umutima mu gatuza, imbere hateretse mudasobwa, imbere ye hari urupapuro ari kwandikaho.

Ishusho igaragaza ibikoresho bikoreshwa mu buganga byinshi harimo udukoresho bakoresha bapima malariya, harimo udukoresho bakoresha mu isuku, harimo n'utundi ducupa tw'imituku dufite umupfundikizo w'icyatsi, n'udufite umupfundikizo w'umweru.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara yambaye n'ikabutura y'umukara hirya ye hateretse akantu gasa umukara yapfukamishije ivi rimwe yarambuye irindi ari gukora siporo ngororamubiri.

Imipira itandukanye, ikinishwa mu gukina imikino itandukanye, harimo iya rugubi, harimo iyo gukina umupira w'amaguru, harimo udutenesi, ndetse harimo na baro zisanzwe, hakaba harimo n'agakoresho bafata bapima umutima.

Icyumba cyiza cyane gisa neza kirimo amatara meza na tapi yo hasi isa ubururu, ese icyuma gifite amabara y'imyeru n'utubuto twinshi dutandukanye.

Icyumba cyiza cyane gifite parafu isa umweru cyanditseho sipoti keya, harimo ibyuma byinshi cyane bakoresha bakora siporo zigiye zitandukanye.

Abantu batatu, umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'umwana wambaye agapira k'umuhondo n'umumama umuteruye, umuganga ufite agatoroshi, ari kumurika mu maso y'umwana.

Umuntu uvuye muri siporo uri kwiyishyiraho barafu ku kuboko ikonje, iri mu ishashi y'ubururu, yambaye impeta isa na zahabu, uwo muntu ni umwirabura.

Umuntu w'umugabo wambaye isengeri ifite amabara atandukanye ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu, kumunwa w'icupa hasa umukara avuye muri siporo biragaragara ko yari ari kwiruka.

Igishushanyo kigaragaza ikinyempande gifite impande eshatu zitandukanye, hamanitsemo akantu gasa ubururu kari mu ishusho y'umusaraba ndetse kamanitse ku twuma dutandukanye dufite utuntu hasi tw'imikara.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo intebe zisa icyatsi kibisi, harimo ibikoresho byiganje mu mabara y'umweru biteretse mu nzu isa umweru.

Umugore ukiri muto wambaye ipantaro isa umukara, isengeri isa na shokora, yambaye n'udukomo ku maboko, yicaye ku gakeka gasa ubururu bwerurutse ari gukora siporo.

Icyapa cy'umuryango ushinzwe gutabara imbabare ku isi, ishami ry'u Rwanda ariryo bita Croix rouge, kigaragaza ibintu by'ingenzi umuntu yakwitaho ahuye n'umuntu ufite ibibazo, cyangwa se ugize uburwayi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gifite amagambo yaditse mu ibara ry'umukara ndetse ariho n'amafoto y'abantu bari gukora siporo mu buryo butandukanye hari ufashe intebe urambuye amaboko, uzamuye ukuguru n'uri kugenda n'ibishushanyo.

Umuntu uri muri siporo, wambaye umupira w'umutuku, ikabutura irimo amabara y'umutuku n'umukara, yambaye amasogisi y'umukara n'inkweto zirimo ibara ry'umweru. Imbere ye hari utuntu tubiri tw'imihondo, haruguru ye hari ibyuma bakoreraho siporo, hirya ye hari ibipirizo bitatu bakoreraho siporo.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, bifashisha kureba amashusho atandukanye y'umurwayi ufite ikibazo ndetse twikoreshwa no muri siporo.

Umuntu warambuye ukuboko wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite akantu gasa ubururu kari mu ishashi ari kwihanaguza ku maboko, afite intoki z'imikara n'ukuboko k'umukara.

Icupa ry'amazi risa umweru n'umupfundikizo usa ubururu, pome isa umutuku, umugozi upima uburebure, icyuma bifashisha baterura icunga risa umuhondo n'agakoresho k'umutuku bakoresha siporo.

Igikoresho kirimo amabara asa n'ivu ndetse n'imigozi y'umukara bakoresha baterura umurwayi kirambitse ahantu hafite ibara ry'umweru wera de.

Abantu benshi bari mu bitaro, barimo abaganga bambaye amataburiya y'abaganga, n'imashini bareberaho abantu barwaye ndetse n'abarwayi, bagiye bicaye ku bitanda byinshi bitandukanye.

Icyapa kiriho amabwiriza n'amategeko akurikizwa mu kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda, harimo gukaraba amazi neza n'isabune, kwihanagura, kudasuhuzanya, koga inshuro nyinshi, gushyiramo intambwe hagati y'umuntu n'undi.

Abantu babiri barimo umuganga w'umugore wambaye umwenda w'ubururu ndetse n'ipantaro, harimo n'umusore uri guterura ibyuma wambaye agapira gasa umweru ndetse n'ubururu n'ipantaro isa n'ivu ateruye icyuma gisa umukara.

Akuma gashinze kari mu ibara ry'umukara, gafite akagozi kaziziritseho hejuru cyane, kagiye kagabanyijemo uduce dutandukanye, hari n'igicucu cyako, hirya ahantu hasa umweru hatarimo irindi bara na rimwe.

Ibiganza bibiri kimwe gifashe agakayi, ikindi kiri kwandika gifite ikaramu iruhande rwaho hateretse metero ipima uburebure n'ibyuma byifashishwa mu gukora siporo bifite amabara atandukanye.

Abantu batanu harimo umuganga uri kumurika umwana mu kanwa, umwana wambaye umwenda w'ubururu, ndetse n'abandi babiri bambaye ubupfukamunwa bahagaze hirya, harimo umugabo n'umukobwa umwe, n'umumama uteruye uwo mwana bari kuvura.

Umugabo wicaye mu bikoresho bigezweho n'intebe nziza, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse iteretse ku kabati kagiye gafite utwumba dutandukanye.

Igikoresho bifashisha kwa muganga batwaraho abarwayi, barembye cyane batabasha kugenda, kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'utugozi tw'imikara, kizwi nka bulakare.

Umumama wicaye ku buriri ari kumwe n'akana kambaye imyenda y'imyeru n'amasogisi y'imye, umumama akenyeye ibitenge birimo amabara menshi yiganjemo ubururu.

Uducupa dufite uburebure bugenda busumbana dusa umweru, dufite ibyapa by'umukara, tune n'utundi tubiri, kamwe gafite ibara ry'ubururu akandi gafite ibara rya move, amagambo avuga "sitopu," yanditse mu ibara ry'umutuku.

Igikoresho bakoresha kwa muganga, bapima umuvuduko w'amaraso, ndetse n'uko umutima utera, gisa ubururu,. Kimeze nk'umugozi, gifite n'utwuma, n'akandi kantu bashyira ku mutima.

Umuntu uryamye w'umwirabura wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'ubururu ifite utuntu tw'umweru, ku ruhande yambaye n'amasogisi y'umweru, hari umugabo w'umuzungu wambaye agapira k'icyatsi kerurutse n'isaha ku kuboko uri kumugorora.

Umuntu uri kunywa amazi yambaye agakomo gasa icyatsi, yambaye isengeri isa umukara afite ubwanwa bwinshi budaconze cyane.

Igikoresho bakoresha baterura abarwayi batabasha kwigenza barembye cyane gisa ubururu bwerurutse gifite ahantu habiri baterura cyanditseho amagambo arusa.

Inkweto y'ukuguru iri mu mabara asa n'ivu ndetse n'ubururu busa umukara igendwamo n'abantu bavunitse, ukuguru guteretse ahantu hasa umweru hatari irindi bara na rimwe.

Abantu bicaye ku mukeka, harimo umu mama wambaye imyenda y'aba mansera, harimo n'umuzungu, n'akana kabicaye imbere, n'abandi bari hirya.

Umugore uri gukora siporo ananura umubiri, wambaye ipantaro isa umukara, wambaye isengeri isa umweru, ari gukora siporo zo kurambura ukuguru kumwe, agafata mu nkokora ukundi yaguhinnye.

Umugabo munini cyane ufite amaboko manini wambaye isengeri isa icyatsi ari gusuka amazi ava mu gacupa k'umweru n'umunwa w'umukara yisuka mu maso n'agakomo gasa iroza ku kuboko.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo, harimo n'abaganga hari umuganga w'umuzungu ufite akana karyamye hasi, bapfukamye bari kukitegereza bagafashe amaboko.

Umugabo w'umuzungu uri kunywa amazi, wambaye imyenda ya siporo, wicaye kumasekariye, yambaye agapira k'ubururu bwijimye kamufashe, yambaye n'ipantaro y'itiriningi imufashe n'inkweto za siporo, avuye muri siporo ari kuruhuka.

Ukuguru k'umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga yambaye inkweto ku kuguru kumwe ukundi bari ku mupfuka banamuzirika ubona ko yakomeretse iruhande rwe harambitse umukasi ndetse hari n'umugabo uhagaze ari we uri kumupfuka.

Igikoresho kimeze nk'ingofero cyambarwa n'abantu bafite ibibazo, gifite amabara asa ubururu bwijimye umweru mwinshi ariwo wiganje; umukara inyuma ndetse n'umuhondo ahagana imbere.

Umugore wicaye uri muri meditasiyo ari gukora siporo yicaye ku gakeka gatoya gakorerwaho siporo, yambaye imyenda ya siporo y'umutuku, imisatsi ye iziritse inyuma, inyuma ye hateretse agatebe k'agataburete.

Abantu babiri bambaye imyenda y'imituku, y'umuryango ushinzwe gutabara imbabare croix rouge, bateruye umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umuhondo wanditseho gatatu, bigaragara ko yavunitse n'abandi bari inyumaye benshi.

Uruziga rugabanyijemo ibice bine bitandukanye kimwe kiriho umuntu uri kwiruka kiri mu ibara risa ubururu, ikindi kirimo ikimenyetso cyo guteranya cy'umweru kiri mu ibara ry'umutuku, ikindi kirimo umuntu uri gusimbuka mu ibara ry'icyatsi n'ikindidi kirimo ibiganza kiri mu ibara risa n'umutuku w'itafari rihiye.

Umuntu w'umugabo wicaye, yambaye ikabutura y'umukara, afite akantu k'ishashi karimo imbere gasa ubururu, ari gushyira ku ivi, akubaho ubona ko avuye muri siporo.

Umuntu uvuye muri siporo, uri kwikanda ku kuboko, ndetse yikandisha agatambaro gasa ubururu karimo n'utundi tubara, yambaye umupira usa n'umweru n'ipantaro isa ubururu.

Umugabo wambaye isaha isa icyatsi afite icupa ry'amazi, ari kunywa yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara yicaye hasi bigaragara ko avuye muri siporo.

Umugabo uvuye muri siporo uri kunywa amazi menshi anayimenaho mu gacupa gasa ubururu yambaye umwambaro w'umukara biragaragara ko wije cyane.

Icyapa kiriho ibimenyetso bigaragaza indwara nyinshi zifata ingingo z'umuntu, harimo izifata umugongo wo hasi igice cyo ku ruhande, umugongo wo hejuru mu bikano, ku kuboko, mu ivi, mu nkokora ndetse n'imiti iri mu macupa igaragaza, ivura izo ndwara.

Amacupa abiri y'umuhondo ashushanyijeho icyatsi cy'igikakarubamba, amacupa abiri asa umukara afite icyapa cy'umuhondo n'andi macupa asa umuhondo ariho icyatsi k'igikakarubamba n'amacupa asa umutuku ariho icyatsi k'igikakarubamba.

Icyapa kigaragaza amagambo atandukanye, hariho agacupa gashushanyije kari mu ibara ry'umweru n'icyapa kikariho kiriho amabara y'umutuku n'umweru, n'amagambo menshi yanditseho.

Akantu kameze nk'umwuko batekesha kabajwe mu rubaho gasa neza cyane, harimo utunini dusa icyatsi twinshi cyane tw'utuzeru ndetse duteretse ku meza asa umweru.

Abantu babiri, umugore n'umugabo, umugore ahagaze imbere y'amacupa menshi cyane y'inzoga, umugabo ahagaze inyuma y'amacupa y'inzoga, umugore ateze igitambaro yambaye akantu mu ijosi gafite ibara ry'ubururu.

Icyatsi kibisi gifite uruti rurerure cyane, kinanutse gifite amababi menshi atandukanye, ari mu byerekezo bitandukanye, inyuma hari urukuta rw'amatafari.

Ibyo kurya bigiye bitandukanye, bikungahaye ku mbuto harimo: imineke, inanasi, ibikomoka ku ikawa ndetse n'ibindi byinshi biri mu makarito atandukanye.

Amashashi ndetse n'ibikarito n'uducupa n'inanasi birunze ahantu hamwe, ku mashashi hashushanyijeho ibintu bifite ibara nk'irya shokora, bigiye biri mu mabara atandukanye.

Ibyatsi biteretse mu ducupa, udutasi ndetse n'uducupa dufite amabara umuhondo, umutuku ndetse n'akandi basekuriramo imiti gakoze mu ibumba gasa umweru, utwatsi twinshi tuharunze.

Icupa ririmo umuti utamenya ubwoko bwayo, rifite ibara rijya gusa na zahabu, ndetse handitseho amagambo asa umukara, akanyoni gashushanyije iruhande rwaho, umupfundikizo wayo urasa umukara.

Amakoma asa icyatsi ateretseho utuntu twinshi dutandukanye harimo pome, harimo utubuto tw'amoko menshi, hariho n'akantu basekuriramo ibintu bagiye guteka gakoze mu ibumba.

Ikimera bakunda guteka mu byo kurya ndetse no mu byo kunywa kizwi nka tangawizi, harimo igikatakase mu duce duto tw'utuzeru n'izindi nyinshi zirunze iruhande rwazo.

Umuntu ufite icupa ry'amavuta akorwa mu bimera bitandukanye harimo n'urukarubamba. Icupa risa umweru rifite amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku.

Amacupa atandukanye arimo amavuta ay'ubwoko butandukanye, harimo uducupa dutoya tw'imyeru, harimo ibicupa binini by'imyeru, harimo agacupa gatoya k'icyatsi, harimo n'utuvido dutoya ak'umweru gafite umufundikizo w'umuhondo na k'umuhondo gafite imupfundikizo w'umutuku wijimye.

Icyatsi gisa icyatsi cyane, abantu bazi nk'igihuru kuko ari ibyatsi byinshi byirundiye ahantu hamwe, harimo umuravumba ndetse n'utundi twatsi tutagaragara ku rubande.

Ishyamba rigaragara ko ari rinini, ririmo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye byirundiyehe hamwe bizwi nk'ibihuru. Hari n'ikindi cyatsi bigaragara ko gitewe vuba, gifite amababi manini cyane kandi y'icyatsi n' andi yo hasi akuze asa umuhondo.

Icupa risa umutuku ryanditseho amagambo foreva yanditse mu ibara ry'umukara n'andi magambo yanditse nibara ry'umweru ndetse n'akantu kameze nk'inyoni gashushanyijeho.

Icyatsi cy'icyatsi kibisi, n'icyatsi gisa nk'icyatsi cyerurutse, utuntu tumeze nk'ubunyobwa ndetse n'igitoki ku ifoto ya kane.

Icyatsi kizwi ko kivura kinyarwanda cyitwa umuravumba, kivura indwara zitandukanye, harimo inzoka zo mu nda nka mibe, teniya, n'izindi ndwara zitandukanye bakoreshaga kera muri gakondo.

Amafoto agaragaza ibyiciro bine bitandukanye, icya mbere kiriho ukuboko gufashe icyatsi kibisi, icya kabiri kiriho ukuboko gufashe ibintu by'ibyatsi mu ntoki, icya gatatu kigaragara icyatsi kirekire gifite utubabi twinshi, icya kane kigaragaza umuntu ufite ururabo mu ntoki.

Icupa rimeze nk'akavido kazamo amavuta y'imodoka yanditseho inyuguti eshatu, iya M, iya P n'iya O, gasa ubururu gashushanyijeho igikakarubamba gafite umupfundikizo usa icyatsi.

Icyatsi cyiza cyane cy'ururabo gifite indabyo nyinshi zifite amabara atandukanye harimo; amabara y'iroza, amabara y'umuhondo n'amabara y'umweru, iteye ahantu muri jaride ikozwe na pasikaramu.

Amashashi y'imikara ateyemo ingemwe ashinzwe guhumbikirwamo ingemwe z'ibiti cyangwa se ibindi bimera bitandukanye byavomerewe bisa icyatsi kandi bikuze neza.

Icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umweru ririho icyapa gisa ubururu gishushanyijeho akanyoni kari kuguruka handitseho Arctic Sea, bigaragara ko ari icupa ribamo imiti.

Icyapa kigaragaza imiti gakondo igiye itandukanye, ikoze mu bimera bitandukanye, hariho inyuma umusozi ugaragara, uriho ibyatsi byinshi cyane byiza, umuti umwe ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, undi ufite ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Icyapa kiriho ibishushanyo byinshi bitandukanye, hariho uducupa turindwi dufite amabara n'ingano zitandukanye, harimo kamwe gasa umuhondo gafite umupfundikizo w'umukara n'utundi dusa umweru dufite imipfundikizo y'imyeru.

Ibyatsi bibiri bitandukanye kimwe gifite imbuto zimeze nk'ibuye, ikindi gifite imbuto zimeze nk'amashu, ku ruhande harambitse urundi rubuto rutandukanye, ubona ko biri mu mufuka.

Icyatsi kinini cyane kimaze igihe kizwi nk'umuravumba cyakoreshwaga kuvura indwara zigiye zitandukanye z'abana harimo inzoka ndetse n'impiswi.

Urubuto rw'ipapayi, hariho igisate kimwe gihiye cyane gisatuye cyegetse ku yindi papayi itarashya neza isa icyatsi ariko ubona ko na yo yenda gushya.

Ururabo rusa umuhondo rufiteho utubabi twinshi tw'icyatsi n'utundi duti tugiye duhagaze iruhande, harimo n'utundi tuntu duturuka imbere dusa umweru mu rurabo.

Umuganga wicaye ari kureba umuti afite mu ntoki, imbere ye hateretse agacupa k'umukara gafite umupfundikizo w'umutuku, n'akandi gacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umutuku karimo ibintu bisa ubururu.

Ishusho igaragaza ibinyabutabire biri mu bimera bitandukanye hari amafoto ane y'ibimera bitandukanye, imwe irimo ururabo rw'umuhondo, indi idafite ururabo, n'indi isa icyatsi cyerurutse cyane.

Uducupa twinshi dutandukanye dufite amashusho atandukanye tumwe turasa umweru dufiteho ibyapa bisa umweru n'ubururu, umweru n'umuhondo, n'umweru n'umutuku hari n'akandi gacupa gasa umuhondo gafite umupfundikizo w'umukara.

Amacupa atandukanye arimo ubuki arimo icupa risa umukara rifite icyapa cy'umweru gishushanyijeho utuntu dutandukanye, dupfundikije umufundikizo w'umweru ndetse n'utundi ducupa dutoya tw'umweru dufite amabara atandukanye dupfundikije imipfundikizo y'imyeru.

Ibinini biri mu ishusho imeze nk'ubukiramende birambitse hasi biri mu dufuniko dukoze muri aluminiyumu twabugenewe ndetse n'ikindi gikarito kiri mu mabara menshi, arimo icyatsi, ubururu n'umweru.

Ibyatsi byinshi cyane bimeze nk'imboga bateye ahantu, bishishe ubona ko byafumbiwe, bifite amababi menshi atoshye yavomerewe neza cyane.

Ibikombe byinshi cyane biri mu mabara atandukanye, n'uducupa dutatu turi mu mabara y'umweru, ndetse n'uburebure butandukanye hariho amagambo yanditse mu mabara atandukanye.

Agacupa k'umuhondo, gafite amagambo yanditseho asa umutuku, n'umupfundikizo w'umutuku, gateretse hagati mu kimera cy'igikakarubamba.

Umugore witandiye igitambaro gisa umweru, ufite marete isa na kake kuboko, ari gufata ku byatsi bitandukanye, harugu ye hari n'insina ifite amakoma maremare.

Agasahane gakoze mu rubaho karambitseho utwatsi bita teyi barya ku biryo, twinshi cyane dufite uburebure bugiye butandukanye biteretse ahantu hasa umweru.

Amacupa menshi n'utundi dukoresho bigaragara ko harimo imiti ndetse n'amavuta yo kwisiga, ashushanyijeho ikibabi cy'igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyatsi kimeze nk'umugozi, kirambaraye cyane, kikozemo akantu k'akaziga ubona ko kinyuranyemo hagati, ari akantu gasa umweru kameze nk'inkoni karambuye muri ako kaziga.

Icyatsi kiriho uturabyo tune tw’imituku m’imbere harimo utundi tw'imihondo, gifite ibibabi binini, kirarandaranda hasi ku butaka.

Icyatsi cyeruruka cyane kiri ku giti kinini cyane kizwi nka gicunshu, gikunda gukoreshwa kivura indwara gakondo nk'abana barwaye inzoka.

icupa ritoya ry'umweru, rifite umupfundikizo w'umweru, rifite icyapa gisumweruru, cyanditseho amagambo asa umuhondo, hariho ijana ndetse n'akanyoni gashushanyije.

Uducupa tune turimo ibinyobwa bisa n'amaji y'inganda zitandukanye, hariho n'ibyapa bigiye bitandukanye, imipfundikizo yayo isa umweru ndetse n'indi isa umwe n'ubururu, ndetse n'isa ubururu.

Umukeka urambuye uriho utuntu dukoze mu tuntu tumeze nk'udutasi, harimo agasekuru kariho utuntu dusa nk'itaka, iruhande rwaho hateretse akandi kameze nk'inkoko karimo utuntu tw'imihondo, hari uturabyo dusa umutuku ndetse n'utuntu dukataguye turi ku ruhande n'ibicuma biri hirya.

Ahantu bahinga ibimera kijyambere cyangwa bakabihumbika bateganya kuzabyimurira mu murima mugari, harimo udukombe dusa umutuku duteyemo ibimera, duteretse hejuru ku tubati, dufite utwenge tw'utwuma.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku kimera gisa icyatsi afashe ku kababi gafite amababi atatu harimo n'utubuto dusa icyatsi.

Ibikombe bibiri birimo utwatsi dutandukanye, harimo n'icyayi gisa na shokora n'utundi twatsi turambitse ku ruhande.

Icyatsi kinini, ubona gifite igiti gikomeye, kiriho utubabi tugiye dutandukanye cyane, harimo n'ururabo rufite amabara y'imihondo, inyuma harimo ibindi biti bitagaragara neza.

Icupa ricuritse rimeze rivamo umuti w'amenyo ushushanyijeho ikirango cy'umuti uvura amenyo, z'igikakarubamba gisa n'icyatsi n'amagambo asa icyatsi yanditseho icupa rirasa umweru.